Inzu isize umucanga ikaba idasa neza, harambuyemo umukeka wicayeho abana b'incuke, aho ari mu irerero bakaba bari kubaha igikoma kugira ngo inzara itaza kubica bakaza kurira.

Icyumba gisa nabi kirambuyemo umukeka, aho abana benshi b'incuke bicaye bafite amasahani ariho ibiryo ndetse hagati yabo harimo umurezi ubitaho kugira ngo bataza kugira ikibazo.

Icyumba cy'ishuri gisize irange ry'umweru ndetse n'iry'umukara hasi, hicayemo abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itandatu n'umunani, aho hagati yabo harimo akameza bifashisha bari kwandika.

Icyumba cyateraniyemo abana b'incuke aho bose barambije kukeka bambaye utwenda tugiye dusa, bari kumwe n'ubafasha kugira ngo abamenyeshe ibyo bakora, hari kandi ibiryo baba gusangira.

Icyumba cy'ishuri cy'abana b'incuke, aho bafite udutebe twiza tw'amabara, buri mwana aba yicaye wenyine, bakagira imikino ibashimisha, aho bose baba bemerewe kuyigeraho bakabasha kwiga.

Abana batoya b'inshuke bahagaze hagati mu mbuga, aho bari kumwe n'abarezi babo babafasha kugenda biga ibintu bitandukanye ndetse bakaba bambaye n'impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Mu cyumba kitarimo imitako ndetse harimo isima ishaje, harambuye umukeka wicayeho abana batoya cyane, aho hari umumama uri kubigisha, bigaragara ko ari abana biga mu ishuri ry'incuke bakiri bato.

Imbuga y'ikigo cy'amashuri, aho harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Hari kandi idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'ibiri, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu n'udukabutura tw'ikake, bateruye akabase karimo ibiryo by'akawunga ndetse n'ibishyimbo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'utujipo twa kake, bari kuva ku ishuri umwe yikoreye akabati karimo ibiryo agiye gusangira na bagenzi be.

Abana bakiri batoya bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'ikake, bicaye mu cyumba cy'ishuri aho bakurikiye amasomo, abandi babiri umukobwa n'umuhungu bo basohotse bihagarariye ku muryango.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite umuryango usize irangi ry'umweru, akaba ari ibiro bikoreramo abayobozi bagiye batandukanye, aho ushaka serivisi bagufasha, ikabasha gukemura ikibazo wari ufite.

Ikigo cy'amashuri, gifite ibyumba bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri bari ku bizwi nk'imyicungo abana benshi bakunda kujyaho maze bakirira umunyenga.

Ikigo cy'amashuri gifite imiryango itandukanye, hasi hakaba hari umukungugu, hari abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye aho baba bari kumwe n'abarezi babo kugira ngo bataza gukubagana.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zigiye zitandukanye, ahahurira abanyeshuri baturutse mu bice byose bakaza guhaha ubumenyi ndetse bigatuma bazigirira akamaro mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Amashuri yisumbuye aho hari icyumba kirimo intebe z'imbaho zicaweho n'abanyeshuri, bakaba bakurikiye ibyo mwarimu ariko kubigisha, hari kandi igare ry'umuntu ubana n'ubumuga.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka umunani n'icumi, bicaye mu ishuri rimwe ku ntebe, aho bari kwigishwa bakurikira amasomo kugira ngo azabashe kubagirira akamaro mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Mu mbuga ngari harimo urujya n'uruza rw'abantu, aho hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ufite agakapu mu nda uri gusuhuza abandi, abaha ikaze ahantu haparitse imodoka iri mu ibara rya kaki.

Abana bakiri batoya bicaye mu gisare cyubakisheje amatafari ahiye, aho bafite utu mudasobwa dutoya dufite ibara ry'icyatsi bari kwifashisha bamenya amakuru agezweho ndetse banaducometse ku muriro w'amashanyarazi.

Ikigo cy'amashuri aho hari ikigega kijyamo amazi menshi mu gihe cy'imvura kugira ngo izuba nirimara kuva bazabone ayo gukoresha, iruhande rw'icyo kigo hari insina nyinshi ndetse n'ibiti.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bitandukanye, hanze mu mbuga harimo pasiparume ndetse n'amawuwa meza cyane, hari kandi Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ishuri ririmo ikibaho cyandikishijeho ingwa y'umweru,. aho umwarimu yatanze umukoro ku banyeshuri wo kwandika imibare kuva kuri maganatanu kugera kuri magana atanu na cumi.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka irindwi na cumi n'ibiri, bicaye mu ishuri rimwe aho iruhande rwabo hari intebe bashyiraho amakaye yabo bari kwandika, ndetse bakaba bafite akanyamuneza.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka umunani na cumi n'ibiri, bari mu mbuga rwagati, aho bari kugenda bakina imikino itandukanye ibafasha kwisanzuranaho bakagira urukundo.

Akabati karimo ibitabo by'ubwoko butandukanye, aho wowe n'abawe mushobora kuza, mugafata ibitabo, mugatangira kujya mwisomera, mu kunguka ubumenyi dore ko byazanye ivumbi kubera kubura ababikoresha.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bari kumwe n'abarezi babo aho bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri, gifite urukuta rukizengurutse, hanze hakaba nta sima irimo, ari umukungugu, hari abanyeshuri bambaye impuzankano, ziri mu ibara ry'umweru n'udukabutura tw'ikake, aho abanyeshuri bari gusohoka.

Abana b'abanyeshuri bateruye ibisafuriya birimo ibiryo bagiye gusangirira hamwe, ni gahunda ya Leta igamije kugaburira buri mwana wese kabone n'ubwo yaba adafite amafaranga.

Icyumba giteguwe neza kirimo amatara yaka neza, harimo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru, amajipo y'ikake, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara aho bari kuganirizwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'ikake n'inkweto z'umukara, bari kuganirizwa n'umukobwa wambaye neza, aho iruhande rwabo hari amadarapo abiri.

Umuhanda w'igitaka wagiye unacukurika imbere yawo hari pasiparme ndetse n'ubusitani bwiza, igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibiti bifite amashami agiye agaye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru kariho amapave hari kugendamo abana b'abanyeshuri, haruguru yawo hari inzu nziza zifite ibipangu ndetse hagiye hari n'amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ikigina bajyanywe mu rugendoshuri, ahantu hari igishanga kinini, kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'amazi. Bari kumwe n'abayobozi babo kugira ngo babakurikirane.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bigiye bitandukanye, mu mbuga yacyo hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ikaki n'umweru, aho bateze amatwi uri kubaganiriza. Inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ku kigo cy'amashuri agiye afite ibyumba byinshi bitandukanye, mu mbuga hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru, imipira y'ubururu ndetse n'amapantaro ya kake, aho bari kuganirizwa ku ngingo zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri gisize irangi ry'umweru, hicayemo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ikake aho ari kubaganiriza ku bijyanye n'isomo ry'uwo munsi.

Icyumba kigali kicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano, ziri mu ibara ry'umweru ndetse na kake, bari kumwe n'umurezi wabo, aho ari kugenda abahereza ibipapuro, kugira ngo babashe gutangira ikizami.

Icyumba cy'ishuri cyateraniyemo abanyeshuri benshi cyane, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikake, aho hari umurezi wabo wambaye imyenda y'akazi uri kubagezaho ikiganiro yabateguriye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, zirimo umweru, ubururu na kake, bicaye ku ntebe aho hari umugore ubahagaze imbere, wambaye amarinette uri kubaganiriza.

Ikigo cy'amashuri cya Groupe Scocolaire Saint Bernadette, hakaba imbere hahagazemo umubikira wambaye imyenda y'imyeru ndetse n'akantu k'umukara mu ijosi, aho afasha abanyeshuri kunguka ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa coaster iza gufata abanyeshuri ku kigo aho baba biga, aho bakinguye imiryango buri mwana n'impuzankano ahetse igikapu cye, bari kugenda binjiramo umwe kuri umwe.

Ku kigo cy'amashuri ahakoraniye abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru, umukara ndetse n'icyatsi, aho umupolisi ahagaze imbere yabo ari kubasobanurira ibibazo bagiye bafite bitandukanye.

Ikibuga cy'umupira cyahuriweho n'abanyeshuri batandukanye aho hari amazu meza yubatse mu buryo bugezweho ndetse n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abantu ndetse n'ibinyabiziga, aho ku nkengero hari igiti kirekire ndetse n'amazu afite insinga z'amashanyarazi zijyanamo umuriro.

Umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kake n'inkweto z'umukara, ari ku igare aho ari mu muhanda ava ku ishuri. Ni byiza ko utega kugira ngo ubashe ku kugerayo kare.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bigiye bitandukanye, amadirishya asize irangi ry'icyatsi ndetse n'inzugi, yubakishije kandi amatafari ahiye, amabati asize irangi ry'ubururu.

Icyumba kirimo ibitabo by'ubwoko butandukanye aho nawe waza ukareba ikigushimishije ukaba wasoma, ni byiza gukangurira abantu ndetse no gutoza abana bakiri batoya gukunda gusoma kuko ari ingirakamaro.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu na cumi n'umunani, bambaye impuzankano z'umweru n'amajipo y'ikake n'inkweto z'umukara, bari kumwe n'ababayobora aho bari kugenda binjira mu cyumba cyateganyijwe umwe kuri umwe.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bigiye bitandukanye, aho cyakira abanyeshuri b'ingeri zose, handitseho ko ari ikaze waba wifuza kuza kuhiga cyangwa kuhazana umwana wawe wahagera ugahabwa ubumenyi.

Akabati gateretse mu cyumba, aho harimo ibitabo by'ubwoko bwose, icyo waba wifuza cyose wakihasanga, ni byiza kwimenyereza gusoma ndetse no kubitoza abandi, kuko bituma ugira ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri aho gifite imiryango igiye itandukanye. Mu mbuga harimo ubusitani bwiza ndetse hari na parikingi irimo imodoka z'ubwoko bwinshi. Hari kandi idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Mu cyumba cy'ishuri ahateraniye abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse na kake, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uri kubagezaho ikiganiro.

Ikigo cy'amashuri hicaye abanyeshuri benshi hanze, aho hari umuyobozi wabo ubahagaze imbere ndetse n'undi munyeshuri ubahagarariye, bose bakaba bari kubagezaho ibiganiro kuko bakwitwara mu buzima bwabo bwa kinyeshuri.

Sale yateraniyemo abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikake, ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'urupapuro uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu yambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu, aho yafunguye mare ari kubikamo ibikoresho bye ngo bitangirika.

Abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano z'amashati y'umweru n'amajipo y'ikake, bari kugana ahasengerwa kugira na bo babashe gutura imana ubuzima bwabo ndetse n'amasomo yabo muri rusange.

Ikigo cy'amashuri gifite inzu nziza zisize irange ry'ikigina ndetse harimo n'amatafari ahiye, hanze abanyeshuri bicaye mu mbuga irimo ibyatsi ndetse abarimu babo bicaye ku ntebe imbere yabo.

Icyumba cy'ikoranabuhanga, cyahuriyemo abanyeshuri batandukanye, bambaye impuzankano zisa, aho ku meza hateretseho mudasobwa zo kwifashisha, mu bikorwa bitandukanye.

Abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, imipira y'imbeho y'umukara n'amapantaro ajya guca ubururu, bari mu isomero ahari utuyetajeri tugiye turimo ibitabo bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'amajipo y'ikake, bahagaze imbere ku kibaho aho bari gusubiramo ibyo bigishijwe kugira ngo batabyibagirwa.

Icyumba kigari giteguye neza cyicayemo urubyiruko rwambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikaki hasi, aho harimo umusore mwiza wambaye akajire uri kugenda afata amashusho ndetse n'amajwi y'ibiri kuhakorerwa.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikake, imbere yabo hakaba hari abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu, aho bamaze gukina umukino ushimishije ndetse bakaba begukanye intsinzi.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kake, aho harimo abayobozi babo bari kugenda babahereza ibizami bigiye gukorwa.

Ikigo cy'amashuri kigenga cya Kageyo, aho buri munyeshuri wese yemerewe kuza kwiyandikisha agahaha ubumenyi kugira ejo hazaza he azabashe kuhagera neza uko yifuza.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, aho iriho amatafari ahiye, mu muhanda wa kaburimbo, mu kayira k'abanyamaguru hari ababikira bazwi nk'abihaye Imana, bari kuwutambukamo bagiye gusenga.

Imbuga ngari irimo amapave, yateraniyemo abakobwa bambaye imikenyero ya Kinyarwanda, aho bateze amaboko babyina neza. Iruhande rwabo, hari abandi babagaragiye, bari kugenda baririmba, bakubita ingoma ndetse banakoma amashyi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru n'umukara bari kugenda binjira mu cyumba cy'ishuri aho buri wese afite ikinyabupfura kandi afite gahunda z'uko agomba gukora ibintu bye ku murongo.

Akayira karimo amapave iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, ahari gucamo ikinyabiziga kizwi nk'imodoka iri mu ibara ry'umuhondo, ku nkengero hubatse inzu ya etaje iriho amatafari ahiye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bahetse ibikapu mu mugongo bakurura ibindi, batonze umurongo ku modoka nini ya Ritico, aho igenda ibageza, aho buri wese yiga kugira ngo abashe gukurikirana amasomo ye neza.

Abana babiri b'abasore, umwe wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro n'inkweto z'umukara, ahagararanye n'undi aho bari kuganira ku birebana n'amasomo yabo. Inyuma yabo hari amadarapo abiri.

Ikigo cy'amashuri aho abahiga bacumbikirwa, hakaba ibitanda baryamaho biba bishashe neza, ndetse n'ibikapu byabo, basiga bapakiye neza bakabifunga, kugira ngo nibaza kugaruka batabura ibintu byabo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bari mu muhanda aho bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru. Iruhande rwawo hari ubusitani bwiza buryamyemo agakende gatoya.

Abana b'urubyiruko bari kwiruka mu muhanda ari ikivunge aho bari mu myitozo ngororamubiri, abahanga bagira abantu inama zo gukora siporo kuko ari kimwe mu bituma bagira ubuzima bwiza ndetse bakabasha no gukura neza mu mutwe.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho, isize amarangi y'umweru, ifite inzugi z'umukara, aho ari isomero rikuru rya kaminuza, harimo ibitabo byinshi, ibyo waba ukeneye byose urabihasanga.

Icyumba cyicayemo abantu bagiye batandukanye, aho buri wese imbere ye hari ameza ndetse n'intebe z'umutuku, hakaba na speaker isohora amajwi.

Imbuga irimo pasiparume nyinshi ndetse n'ibiti byarandaranze bizana umuyaga ndetse bigakurura n'imvura. Hari amapave abagenzi bacamo ndetse n'amatara amurika ku muhanda.

Inyubako eshatu zizwi nka Bengazi aho zubatswe mu buryo bugezweho. Hanze hari imbuga irimo amapave aho hatambuka abanyeshuri bagiye mu bikorwa byabo bitandukanye bya buri munsi.

Icyumba giteguye neza aho ibitanda bishashe neza, hakaba harimo utubati tubikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse intebe n'akameza byicarwaho umuntu ari mu bikorwa bye.

Icyumba kirimo ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri nk'amakaye, amakaramu ndetse n'akabogisi babikamo amarinete ku bantu biga barwaye amaso.

Umukobwa wambaye agakote k'umukara n'agapira k'umutuku, ari kumwe n'abandi babiri bicaye ahantu hamwe bari kwiga, hirya yabo hari ikirango kigaragaza ko ari UR Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye isize n'irange ry'umweru, mu mbuga yayo harimo ubusitani bwiza ndetse n'igiti cy'umukindo hakaba haparitse n'imodoka.

Icyumba kigari cyane cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda iri mu mabara menshi aho bari guhabwa ikiganiro ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kubigiraho ubumenyi.

Ikigo kimeze neza cyane, aho hanze hari ubusitani burimo indabyo nziza ndetse n'ibiti bitanga umuyaga abahari bakagubwa neza, hari kandi utuyira tunyurwamo n'abagenzi bari kuhagana.

Icyumba cyiza gisize irange ry'umweru, gifite inzugi zisize ibara ry'umukara ndetse n'umweru aho hateyemo akameza kariho igitambaro ndetse n'udutebe turi ku ruhande abaje bicaraho.

Umuntu uri kugenda uhetse igikapu cy'umutuku afite n'akandi gatoya mu ntoki ahantu hari amapave ndetse iruhande rwe hakaba hari etaje eshatu zubatse neza mu buryo bugezweho bwa kijyambere.

sale nini ihurizwamo abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu aho bari guhabwa ikiganiro ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho, asize irange ry'umweru, amabati akaba asa umukara. Mu mbuga harimo isima ndetse n'indabyo zifite amabara meza n'udupasiparume tw'ibara ry'icyatsi.

Inzu nziza isize irange ry'umweru, amabati ariho irange ry'umutuku mu mbuga yaho harimo ubusitani bwiza bufite n'ibiti birebire by'amapera, hari kandi utuyira dukoteye tugenda tunyurwamo.

Icyumba giteguye neza, kirimo ibitambaro by'umweru, hicayemo abagabo batandukanye, buri wese ku ntebe ye ifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa bari kwifashisha ndetse n'ikayi.

Mu nyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye, harimo urubyiruko rwateranye, aho hari abari gukina umukino wa basket, abakinnyi bambaye ijezi z'icyatsi ndetse n'abafana baje kubakurikira.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, bakoraniye mu cyumba kimwe, aho bari kwimenyereza gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe kugira ngo nibagera kwa muganga bazabashe kubishyira mu bikorwa, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo byose.

Umuhanda urimo amapave, aho hagenda hanyuramo abanyeshuri batandukanye, hepfo hakaba hari amacumbi abamo abana b'abakobwa, asize irangi ry'umutuku ku mabati ndetse hariho amatafari ahiye.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abakobwa ndetse n'abasore bari kwiga uburyo ibikoresho bihari bikoreshwa kugira ngo igihe bazaba basoje kwiga bazajye kubishyira mu bikorwa bita ku barwayi.

Icyumba gitatse neza kirimo amarido ndetse n'ibitanda bishashe mu buryo butangaje, akabati kabikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ameza ndetse n'agatebe wakwifashisha wandika.

Amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho, azwi nka etaje, asize amarange y'umweru, hanze hakaba hari amapave ndetse n'indabo ziraba neza. Hari kandi ubusitani burimo ibiti byinshi kandi birebire.

Ikibuga gikoteye kikaba kirimo akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho MTN na Ayoba, hepfo yabyo hari ibiti bifite amashami maremare ndetse n'amababi.

Inzu nziza zubatswe mu buryo bubereye ijisho, hanze yazo hakaba hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti bigiye bitanga umuyaga muri aka gace kandi bikaba bivugwa ko binakurura imvura kuko aba ari birebire.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ifite ibirahure bisize irangi ry'umukara, aho ari ishuri ryigisha ubuganga, ndetse na farumasi itanga imiti, abanyeshuri bakahakura ubumenyi.

Icyapa cyanditseho universiy of Rwanda, campus ya Huye, aho abanyeshuri baza guhahira ubumenyi mu masomo agiye atandukanye, basoza bakajya kwihangira imirimo hanze, bakagirira igihugu cyabo akamaro.

Umuhanda wa kaburimbo uteyeho uturabo turaba neza aho haruguru y'aho hari Kiliziya Gatulika yubakishije amatafari ahiye, hanze hakaba hariho umusaraba ndetse n'abantu benshi baje gusenga.

Ikigo kinini gifite amazu meza kandi agezweho yubatse afite amabati y'umutuku, inzugi z'ikake ndetse hariho n'ama esikariye, aho mu mbuga harimo ubusitani bw'ibiti byiza ndetse n'indabo.

Inzu nziza isize amarangi y'umweru, ifite imiryango myinshi, ikaba ifite inzugi zisize irangi ry'ikigina, hasi hariho sima iri mu ibara ry'umutuku.

Mudasobwa ifunguye irimo amaporogarame menshi agenda akoreshwa, aho iyo ufite ubumenyi ku ikoranabuhanga bikorohera. Ariko kandi n'iyo utabufite ubaza bagenzi bawe bakagufasha kuyikoresha.

Imbuga yanikwaho imyenda, aho hari inkingi ndetse n'imigozi bayiramburaho, inyuma ndetse hirya no hino hakaba hagiye hari amazu yubatse neza, aho hamwe haba abantu baharara ahandi bakahigira.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi zisa umweru ndetse n'ibirahure byiza, aho mu mbuga yaho hari amakamba banikaho imyenda igihe bameshe ndetse n'amatara amurika n'ijoro.

Inyubako nini cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima, imbere harimo ameza y'umweru ndetse n'ikake, n'udutebe bicaraho dufite ibara ry'icyatsi, ndetse n'akandi gafite irya oranje.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, hasi harimo agatapi gasa neza, aho ibitanda bishashe neza bikaba bifite n'imisego ndetse n'inzitiramibu ikoranye umuti.

Icyumba cy'ishuri gisize irangi ry'umweru n'umukara, hasi harimo isima y'umutuku, hateyemo intebe nziza ku buryo nta munyeshuri ushobora kubura umwanya yicaramo.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ikaba isize amarangi y'ikigina ndetse n'umweru, hanze hari puberi ishyirwamo imyanda ndetse n'ubusitani bwiza n'indabo ndetse n'ibiti.

Inyubako za etaje zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zisize irangi ry'umweru, amabati ariho irangi ritukura ndetse mu muhanda hakaba harimo amapave ahanyura abantu baherekeza.

Muri kaminuza y'u Rwanda, ahari gutambuka abanyeshuri, hakaba ari ku mapave ndetse hari amatara aboneshereza abo banyeshuri mu gihe cya n'ijoro. Hari kandi inyubako za etaje, zigaragara nk'amacumbi.

Icyumba cyiza giteyemo intebe z'abanyeshuri mu buryo bugezweho, harimo amarido meza y'ibara ry'umweru ndetse n'kigina, hasizemo irange risa neza ndetse hari n'ibikoresho byifashishwa mu kwiga.

Icyumba kirimo akabati kariho ibitabo bigiye bitandukanye, aho ushaka gusoma wahagana ugafata icyo ushaka ndetse ugakangurira n'inshuti zawe kuhagana kugira ngo ziyungure ubumenyi.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi biganjemo urubyiruko b'abaganga ndetse n'abaforomokazi, bambaye ibikoresho bya kiganga harimo itabuya ndetse n'udupfukantoki, aho bari mu mirimo itandukanye ndetse iruhande rwabo hakaba hari ameza ariho ibintu.